Itsinda rigari ry'abantu benshi, barimo abagabo, abagore ndetse n'abana, bari ahantu hateganyijwe hatwikiriye, bakaba bakurikiranye umuntu uri imbere yabo ari kubagezaho ibiganiro ku ngingo zitandukanye.

Ibirori byabereye ahantu hateguwe ndetse hari abantu benshi, abo kandi bakaba bari gususurutswa n'itsinda ry'abagore, bambaye imyambaro izwi mu muco nyarwanda nk'imikenyero ifite ibara ry'umweru.

Imbaga nyamwinshi y'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, harimo umugabo wambaye imyambaro y'igisirikare cy'igihugu, bakaba bari gutaramirwa n'itsinda ry'ababyinnyi, bambaye imyambaro gakondo ndetse bakaba bari kubyina imbyino za kinyarwanda.

Umugabo ndetse n'umugore, bambaye imyenda ya kera izwi ku izina ry'imikenyero, aba bombi bakaba bafite udukoresho bashyira ku munwa, maze bagahuhwamo, natwo tugasohora amajwi anogeye amatwi.

Mu ruganda runini rutunganya ibikomoka ku buhinzi, harimo abagabo bambaye imyambaro y'akazi irimo ijere ifite ibara ry'icyatsi kibisi bakaba bari gukoresha imashini zifashishwa kugira ngo batunganye umusaruro.

Umugabo wambaye umwenda w'akazi ufite ibara ry'ubururu ndetse akaba yambaye n'ingofero imurinda mu gihe cy'impanuka, akaba akorera ikigo gishinzwe ingufu n'amashanyarazi, uyu yuriye igiti kirekire, cyifashishwa mu kohereza umuriro ahantu hamwe ujya ahandi.

Abakozi bambaye imyambaro y'akazi irimo amajire ndetse n'ingofero zirinda gihe cy'impanuka, barikurira kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi, bakaba bari gukemura ikibazo icyo gikoresho gifite.

Ibinyabiziga bibiri bitwara abantu mu buryo bwa rusange biri mu muhanda, aho biri kugenda ibi binyabiziga bikaba bituma ubwikorezi bw'ibintu ndetse n'abantu n'ubuhahirane hagati y'Uturere byoroha.

Inyubako nziza cyane ifite amabara atandukanye ndetse yubatswe mu buryo bugerekeranyije, ikaba ikorerwamo ibintu bitandukanye birimo ubucuruzi, imbere yayo kandi hari ibinyabiziga birimo imodoka byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Imbere y'umusozi muremure uriho ibimera bitandukanye birimo ibyatsi ndetse n'ibiti, hari uruhererekane rw'inyubako zubatswe hifashishijwe amatafari ndetse zisakaje amabati y'ubururu, imbere yazo kandi hari itara rimurika mu gihe cy'ijoro.

Uruhererekane rw'inyubako zifite amabara y'umuhondo ndetse zikikijwe n'indabo zigezweho, imbere yazo kandi hakaba hari ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abarwayi bavanwa ahantu hamwe bajyanwa ahandi, cyane cyane abarembye n'abakeneye ubutabazi bw'ibanze.

Imbere y'inyubako yubakishije amatafari ndetse y'uruganda. Hari umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga na none kandi muri uyu muhanda hakaba hanyuramo abanyamaguru. Hari kandi n'ibikoresho bikoreshwa mu kuvana umuriro w'amashanyarazi ahantu hamwe ujyanwa ahandi.

Hirya no hino mu gihugu usanga atari henshi umudugudu ugira ibiro ariko nyamara ugasanga bikenewe, bityo rero ni ngombwa ko hashyirwaho inzu runaka, aho umudugudu ukorera, bityo abaturage bakamenya aho basanga serivisi baba bakeneye.

Imbere y'inzu ituwemo n'abantu isize amarangi y'umweru, hari itsinda ry'abantu biganjemo Abashinwa. Aba bakaba bari gukora umuhanda ugezweho wa kaburimbo ndetse bifashishije imashini kabuhariwe mu gukora imihanda.

Inzu nini iberamo imikino ndetse n'imyidagaduro cyanecyane umupira w'amaguru, imbere y'iyo nzu kandi hari imihanda ikoze neza ndetse hakaba hari n'ubusitani bufite ibyatsi bitoshye, ndetse n'indabo zifite amabara atandukanye.

Imbaga nyamwinshi y'abaturage bicaye ku ntebe ndetse ahantu bakikijwe n'ibiti. Aba bakaba biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abasaza. Imbere yabo hari umugabo ukora mu kigo gishinzwe iperereza akaba ari kubagezaho amakuru ku bijyanye n'ibyaha byinshi bibera muri sosiyete Nyarwanda.

Itsinda rigari ry'abarimu ndetse n'abanyeshuri, riiri imbere y'amashuri yubatse neza yubakishije amatafari ndetse afite amabati y'ubururu, aha kandi hari ibiti birebire bitanga umwuka mwiza wo guhumeka, kubanyeshuri ndetse n'abarimu bo muri icyo kigo.

Ahantu hateganyijwe hatwikiriye ndetse hari imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye, aba bakaba barimo umugabo wambaye imyambaro y'igisirikare cy'Igihugu ndetse aba bombi bakaba baje mu bikorwa byo kwibuka.

Mu kibuga cy'ibyatsi bitoshye ndetse imbere y'inyubako y'ikigo cy'amashuri, hari kubera igikorwa cyo guhinga umuturage, iki gikorwa kikaba cyitabiriwe n'abayobozi ndetse n'umugabo wambaye imyambaro ya gisirikare, ibi bikaba ari muri gahunda ya girinka munyarwanda.

Umuhanda mwiza wubatswe mu buryo bugezweho unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye. Iruhande rw'uyu muhanda hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'icyapa kereka abakoresha umuhanda ko imbere hari ikoni bityo ko bagomba kwitonda.

Ku ruzitiro rukozwe mu mabati y'ibyuma ndetse afite ibara ry'umweru, hariho igishushanyo mbonera cy'ahantu hagiye kuzubakwa inzu, iyo nzu ikaba yubatswe mu buryo bugezweho ndetse igerekeranyije.

Umubyeyi w'umugabo wambaye imyambaro ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, yikoreye ibuye rinini ryifashishwa mu bwubatsi akoresheje ingata, na none kandi hirya ye hari umurima munini urimo insina zera ibitoki.

Imbere y'indabo zifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru munsi y'igiti cya avoka, hari umugabo wambaye impuzankan y'igisirikare cy'igihugu, uyu akaba ari kumwe n'undi mugabo, aho bari kuganiriza abaturage ku bijyanye n'umutekano.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abaturage b'abagabo ndetse n'abagore, bateraniye ahantu hamwe mu byatsi, hari indabo zifite ibara ry'icyatsi kibisi n'umweru, aba bari kugezweho ijambo n'umugabo akoresheje indangururamajwi.

Abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye ahantu mu byatsi ndetse bakaba bakurikiye umugabo uri imbere yabo ari kubagezaho ubutumwa akoresheje indangururamajwi. Hirya y'aho bicaye kandi hari inzu ituwemo n'abantu ndetse hakaba hari n'ibihingwa birimo ibyera ibitoki.

Ahantu mu kibuga cyiza cyane kigezweho kiberamo imikino yumupira wamaguru gifite ubwatsi butoshye, harimo amakipe abiri yambaye impuzankano zitandukanye, zifite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu bwijimye, aya makipe akaba ari gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Ahantu mu kibuga gifite ubwatsi butoshye ndetse kikaba gifite n'ikindi gice kidafite ubwatsi, aha kandi harimo amakipe abiri yambaye impuzankano ziyaranga, akaba ari gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Ikibuga kinini kirimo ivumbi ndetse hakaba hagaragaramo ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, muri iki kibuga kandi hakaba higirwamo ibinyabiziga, mu rwego rwo kugira ngo abantu babashe kubona impushya za burundu zo gutwara ibinyabiziga.

Umuhanda ukozwe mu buryo bworohereza ibinyabiziga biwunyuramo, birimo amapikipiki, amagare, amamodoka ndetse n'ibindi binyabiziga bikora ubwikorezi bwabo bw'ibintu ndetse n'abantu.

Hagati y'amazu atuwemo n'abantu yubakishije amatafari harimo agahangade k'ibitaka ndetse gakikijwe n'ibyatsi bitoshye. Muri ako gahanda hari kunyuramo ipikipiki itwawe n' umugabo wambaye ingofero irinda mu gihe cy'impanuka.